Ahantu aho ariho hose habereye inama haba hari ibikoresho byinshi byifashishijwe kugira ngo iyi nama ibashe kugenda neza. Twavuga: nk'intebe abitabiriye inama bicaraho, ibyo bandikamo, amakaramu bifashisha ndetse n'abayobozi bagiye batandukanye babahugura ku bigendanye n'iyo nama bakoze. Ni byiza rero ko tugomba guhugura abaturage bacu kugira ngo babashe gusobanukirwa byinshi bigiye bitandukanye.

Mu byumba bikorerwamo inama haba harimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo iyo nama ibashe gukorwarwe neza. Twavuga nk'intebe abitabiriye inama bicaraho, ameza bashyiraho amakaramu ndetse n'amakaye yo kwandikaho, amazi bifashisha banywa igihe bumva mu muhogo hafatanye. Ndetse n'imfatashusho yifashishwa kugira ngo amashusho aze kugaragara, n'abatabashije kuhagera baze kubibona.

Mu cyumba gikorerwamo inama habs harimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo iyo nama ibashe kugenda neza. Twavuga nk'intebe abitabiriye inama bicaraho, ameza bashyiraho amakayi bandikamo ibyo bavuga, amakaramu bakoresha bandika, amazi yo kunywa igihe bafite icyaka, ndetse n'indangururamajwi ikoreshwa, kugira ngo buri muntu wese abashe kumva ibiri kuvugirwa aho.

Gukora imyitozo ngororamubiri mu buzima bwacu ni ingenzi kuko bidufasha kwirinda indwara zitandukanye ziterwa no kudakora imyitozo ngororamubiri. Ni byiza ko tugana ibibuga byabugenewe kugira ngo tubashe guhura n'abandi, dukore imyitozo ngororamubiri igiye itandukanye bityo ubuzima bwacu bubashe kugenda neza.

Mu cyumba gikorerwamo inama haba harimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo iyo nama ibashe gukorwa neza, twavuga nk'intebe abitabiriye inama bicaraho, ameza bashyiraho amakaye bandikamo ibyo bavuze ndetse na mikoro ikoreshwa kugira ngo buri umwe wese aho yicaye abashe kumva ikiri kuvugwa.

Mu cyumba gikorerwamo inama habamo ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo inama imaze gukorwa neza. Twavuga nk'intebe abitabiriye inama bicaraho, ameza bashyiraho amakayi bandikamo iyo bari kuvuga, amakaramu bifashisha bandika, indangururamajwi yifashishwa kugira ngo buri muntu wese abashe kumva icyavugiwe muri iyo nama.

Ahakorewe inama haba ari ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo iyo nama ize kugenda neza, twavuga nk'intebe abitabiriye inama baba bicayeho ndetse n'indangururamajwi ikoreshwa kugira ngo buri muntu wese abashe kumva; ni byiza ko tugomba kugira ibikoresho bihagije ahantu hakorewe inama kugira ngo tubashe kumva neza ndetse tubashe no gufasha abaturage batari bahari babashe kubyumva neza.

Mu byumba bikorerwamo inama haba harimo ibikoresho byifashishwa kugira inama ibashe kugenda neza. Twavuga nk'intebe abitabiriye inama bicaraho, ameza bashyiraho ibyo bandikamo nk'amakayi, amakaramu bifashisha bandika ndetse n'indangururamajwi utanga inama akoresha kugira ngo buri umwe wese abashe kumva icyo yavuze. Ni byiza rero ko tugomba kugira ibikoresho bihagije kugira ngo abitabirire inama babashe kugira icyo batahana.

Imbyino gakondo ni imbyino zerekana umuco nyarwanda aho usanga ababyinnyi b'imbyino baba bafite ibikoresho bigiye bitandukanye nk'amayugi baba bambaye ku maguru, amacumu, inkoni zo kwitakoma, imikenyero ndetse no guhamiriza igihe barimo babyina, ni byiza rero ko tugomba kwitabira imbyino gakondo kuko zikomeza gutuma dusigasira umuco wacu.

Imbyino gakondo ni ikimenyetso kigaragaza umuco w'Abanyarwanda, ababyinyina imbyino gakondo baba bafite ibikoresho bitandukanye bifashisha kugira ngo babashe kuryoshya imbyino zabo, twavuga nk'imyenda baba bambaye ibaranga, amayugi bambara ndetse n'ingori bambara abakobwa igihe bari kubyina, ingoma bakoresha barimo bavuza ndetse n'ababaririmbira kugira ngo imbyino zabo zibashe kuryoha; ni byiza ko tugomba gusigasira umuco wacu tuwurinda gutakara.

Mu cyumba gikorerwamo ubusabane, haba harimo ibintu byinshi bitandukanye, byifashishwa kugira ngo ubwo busabane buze kugenda neza. Twavuga: nk'intebe abitabiriye ubusabane bicaraho, icyo kunywa baza kunywa ndetse n'indangururamajwi yifashishwa igihe barimo bavuga kugira ngo buri umwe wese abashe kumva. Gitari yifashishwa kugira ngo ibyo bavuga bize kuryoha dore ko kuba bacuranga n'imiziki. Ni byiza rero ko tugomba kugira ubususuruke, tugasusurutsa bagenzi bacu bakishima.

Ibiseke n'ibikoresho byifashishwa mu muco nyarwanda ahantu hagiye hatandukanye, twavuga ko byifashishwa mu nsengero barimo baturamo, bikaba byifashishwa mu muhango w'ubukwe. Ni byiza ko tugomba gusigasira umuco wacu kugira ngo tubashe kumenya amateka y'u Rwanda.

Umuco wa kera warangwaga n'imbyino gakondo, abakora imbyino gakondo baba bambaye imyenda yihariye kugira ngo babashe gutandukana n'abandi, bakoresha ibikoresho bitandukanye kugira ngo babashe kugaragaza imbyino zabo: nk'ingoma bakoresha bacuranga, umuriki bakoresha bakubita ndetse n'indangururamajwi bakoresha bari kuririmba kugira ngo babashe kumvikanisha indirimbo zabo neza.

Inka ni amatungo yifashishwa mu gusobanura byinshi byerekeranye n'umuco nyarwanda, inka kera mu muco nyarwanda zifashishwaga mu kugabirana ndetse no mu kujya kuzana umugeni, uwakoraga neza yahabwaga inka ndetse n'uwashakaga kwiyunga n'undi bahanaga inka; ni byiza ko dukomeza gusigasira ubworozi bw'inka kubera ko busobanuye byinshi mu muco wacu w'Abanyarwanda.

Mu muco nyarwanda, hari ibikoresho byifashishwaga igihe habaga hagiye kubaho igikorwa cyo kubyina, twavuga nk'ingoma yavuzwaga igihe babaga bagiye kuririmba ndetse n'umwambaro wambarwaga n'intore mu mutwe igihe zabaga zigiye guhamiriza; ni byiza ko tumenya ibikoresho byakoreshwaga kera mu muco nyarwanda kugira ngo tubashe gukomeza gusigasira umuco wacu.

Ikigo cy'Igihugu gishinzwe umuriro w'amashanyarazi, gishishikariza abakozi bacyo ko ari ingenzi gukora bambaye imyenda y'akazi kugira ngo birinde impanuka za hato na hato, nko kuba bambaye: amasarubeti, amapantaro, ingofero ndetse n'ibindi byabafasha kurinda ubuzima bwabo kuba bwajya mu kaga.

Ni byiza ko dukomeza kwiga uburyo ikoranabuhanga rikoreshwa kugira ngo tubashe kuririkoresha mu buzima bwacu bwa buri munsi buri umwe wese arashishikarizwa kumenya uburyo ikoranabuhanga rikoreshwa kugira abashe kurikoresha mu buzima bwiwe ndetse abashe no kurikoresha ashaka amakuru agiye atandukanye ku byerekeye isi ndetse n'ibyavuzwe uwo munsi.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima gishishikariza abakora mu bigendanye n'amashanyarazi ko ar'ingenzi kugira ibikoresho bihagije kugira ngo ubuzima bwabo baburinde kugwa mu kaga, twavuga nk'ibikoresho bifashisha igisarubeti bambara, umukandara bishumika igihe buriye, urwego bakoresha burira ndetse n'ibindi bikoresho bisabwa kugira ngo babashe gusigasira ubuzima bwabo.

Inzobere mu bigendanye n'amashanyarazi basobanura ko ari byiza kujya gukora mu muriro w'amashanyarazi, wambaye imyenda isabwa nk'ibisarubeti ndetse n'ingofero yo mu mutwe, kugira ngo wirinde ibyatuma ubuzima bwawe bujya mu kaga. Ni byiza ko tugomba kubahiriza ibyo batubwira kugira ngo turinde ubuzima bwacu, bityo tutabushyira mu kaga kandi bitari bikwiye.

Abaturage bashishikarizwa kwirinda inyubako zirimo imiriro, kuko byabatera impanuka zigiye zitandukanye zigatuma ubuzima bwabo bujya mu kaga. Ni byiza ko tugomba gusobanukirwa uburyo amashanyarazi akora, kugira ngo tubashe kwirinda no kurinda ubuzima bwacu kuba twabushyira mu kaga, ducokoza ibikoresho bitandukanye byatuma insinga zikomana bityo hakaba inkongi y'umuriro.

Ikigo cy'Igihugu gishinzwe ubuzima gishishikariza abaturage kwirinda ahantu ariho hose hari insinga z'umuriro kugira ngo babashe kwirinda ndetse no gusigasira ubuzima bwabo bwe kujya mu kaga, ni byiza ko tugomba gushishikariza abaturage kwirinda kwegera ahantu hari insinga z'umuriro kuko byateza inkongi y'umuriro bityo ubuzima bwabo bigatuma bushya kandi bitari bikwiriye.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe iby'amashanyarazi, gishishikariza abaturage kwirinda kwegera ahantu hose hari insinga zirimo umuriro kuko byatuma ubuzima bwabo bujya mu kaga. Ni byiza ko dushishikariza haba bakuze ndetse abana n'abakecuru n'abasaza, kwirinda ahantu hose haba hari amashanyarazi kuhayegera kugira ngo tubashe gusigasira ubuzima bwacu tuburinde kuba bwafatwe n'inkongi y'umuriro.

Ikigo gishinzwe ibigendanye n'amashanyarazi gishishikariza abagikoramo ko ari ingenzi gufata ibikoresho bitandukanye bifashisha igihe barimo besitara kugira ngo babashe kurinda ubuzima bwabo, twavuga nk'ingofero baba bambaye, amajire, ibisarubeti ndetse na bote kugira ngo ubuzima bwabo bube bufite ubwirinzi. Ni byiza rero ko tugomba gukoresha ibikoresho byabugenewe igihe turimo dukora mu byerekeranye n'amashanyarazi.

Mu nyubako zitanga serivisi zigendanye n'ubuyobozi, haba harimo ibyumba byinshi bitandukanye bikorerwamo ibintu bitandukanye, ni byiza ko tugomba kuyobora abaturage kugira ngo buri umwe wese abashe kumenya aho agomba kugana bityo abashe gutahana igisubizo cy'ikibazo yazanye.

Mu bigo bitanga serivisi zigendanye n'ubutabera, haba harimo ibikoresho byinshi byifashishwa kugira ngo babashe guhereza ubutabera umuturage ubagana. Twavuga nk'abayobozi bafasha abo baturage, intebe bicara aho barimo babasobanurira ababagana ndetse na bamwe mu bayobora aho bagomba kujya. Ni byiza ko tugomba gufasha abaturage bacu kugira ngo ubashe gusobanukirwa byinshi bigendanye n'imiyoborere.

Mu bigo bitanga serivisi z'ubuzima harimo n'ibigo nderabuzima haba hari ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo babashe kwakira abarwayi babagana. Twavuga nk'intebe abarwayi bicaraho igihe bategereje ubufasha ,amazi yo gukaraba ndetse n'ibindi bitandukanye bifashisha kugira ngo babashe kubakira, ni byiza ko tugomba kwakira neza abatugana kugira ngo tubashe kubafasha bagire ubuzima bwiza.

Mu nyubako zitanga serivisi zigendanye n'ubuyobozi haba hari ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo abaturage babashe kubona ababakira neza, twavuga nk'aho bakirirwa, intebe bicaraho barimo babakira ndetse n'ababakira barimo bababaza icyo bashaka. Ni byiza ko tugomba kwakira abatugana neza kugira ngo tubashe kugira iterambere ryiza tugeza no ku baturage bacu.

Mu bigo bitanga serivisi z'ubutabera bashishikarizwa gushyira ibyapa bitandukanye ku mihanda, kugira ngo abaturage babagana babashe gusoma neza basobanukirwa igikorerwa aho ngaho ndetse bibarinde no kuyoba. Ni byiza rero tugomba kuyobora abaturage bacu, kugira ngo babashe kugana aho bagomba kuba bazi ndetse babashe no kwaka ubutabera mu byo bazi.

Mu nyubako zitanga serivisi zijyandanye n'ubuyobozi haba hari ibintu byinshi byifashishwa kugira ngo babashe kwakira ababagana, twavuga nk'intebe bicaza aho abaje kurega ndetse n'abantu benshi batandukanye babafasha kwiyoboka mu byumba bitandukanye kugira ngo babashe kumenya aho binjira bityo babashe guhabwa ubutabazi bw'ibanze, ni byiza ko tugomba gusobanurira abaturage batugana dore ko bamwe na bamwe baba batabizi.

Ubuhinzi bw'urutoki ni ubuhinzi bwiza kubera ko buvamo ibintu byinshi bitandukanye. Igitoki tukiryamo imineke tukakirya tugitetse, ndetse tukanagikuramo umutobe ndetse tukanagikuramo n'inzoga. Ni byiza ko iki gihingwa tugisigasira kugira ngo tubashe gukomeza kugikuramo ibintu byinshi bigiye bitandukanye.

Ahakorerwa ibiganiro bigiye bitandukanye, haba hari ibikoresho byifashishwawe kugira ngo ikiganiro kibashe kugenda neza, twavuga nk'intebe bicaraho abitabiriye ibiganiro, ameza baterekaho ibyo kwandikaho, ayo makaramu bakoreshasho barimo bandika ndetse n'amazi yo kunywa igihe icyaka kibishe; ni byiza kuko tugomba kugira ibikoresho bitandukanye, kugira ngo tubashe gutegura ikiganiro cyacu neza.

Ahakorerwa ibiganiro bihuza abaturage haba ari ibintu byinshi bitandukanye byifashishwa kugira ngo babashe kugezaho abaturage ikiganiro. Twavuga nk'intebe biciraho, abitabiriye ibyo biganiro ndetse n'indangururamajwi ikoreshwa kugira ngo buri umwe wese abashe kumva, imfatashusho ikoreshwa kugira n'abatabashije kuhagera babashe kuhagera. Ni byiza ko tugomba kugira ibikoresho bihagije igihe twagize ibiganiro.

Kwibuka jenoside yakorewe abatutsi n'igikorwa ngaruka mwaka aho usanga hibuka abaturage bazije jenoside yakorewe abatutsi, ni byiza ko abayobozi bamanuka bakegera abaturage bakabumvisha ko ar'ingenzi kwibuka bagenzi babo ndetse no kwirinda ingengabitekerezo, kuko ar'igikorwa kibi cyo kugaragaza y'uko badaharanira uburenganzira bw'abasigaye.

Mu nyubako ziteraniramo abantu igihe bari gukora inama, haba harimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo iyo nama ize kugenda neza. Twavuga: nk'intebe abitabiriye inama bicaraho, amakaye bandikamo ibyo bari kuvuga, amakaramu bakoresha, amazi yo kunywa igihe mu muhogo bumva humagaye ndetse n'indangururamajwi bakoresha kugira ngo buri umwe abashe kumva. Ni byiza ko tugira ibikoresho bihagije kugira ngo tubashe kugeza ijambo ryiza ku baturage bityo babashe no kubitahana neza.

Ni byiza ko abayobozi bamanuka bakegera abaturage bakabasobanurira uburyo bagomba guharanira uburenganzira bwabo ndetse no guhabwa ubutabera, abaturage bakomeza bishimira uburyo abayobozi bamanuka bakabegera bakabasha kubagezaho ibibazo byabo ndetse bakanabasobanurira inzira zimwe na zimwe bagomba gucamo igihe barimo baharanira uburenganzira bwabo no gushaka ubutabera.

Ubwo abayobozi bari begeranyije abaturage barimo babasobanurira akamaro ko guharanira uburenganzira bwabo ndetse no guhabwa ubutabera, byari byiza kuko bari babyishimiye kubera ko bari bumvise aho bashobora gushakira uburenganzira bwabo igihe barenganyijwe, ni byiza ko abayobozi bagomba kumanuka bakegera abaturage bakabasha kubasobanurira byinshi bitandukanye byerekeye n'ubuzima bwabo.

Ahateraniye abantu bagiye batandu haba harimo n'abayobozi aho bahujwe n'igikorwa cyo gukomeza kwigisha abaturage kumenya uburyo bagomba gusigasira uburenganzira bwabo ndetse n'uburyo bashobora kubona ubutabera; ni byiza ko tugomba kwegera abaturage kugira ngo tubashe kubasobanurira byinshi bigendanye n'ubuzima bwabo, babashe guharanira uburenganzira bwabo ndetse babashe no guharanira ubutabera bwabo.

Ubwo abayobozi begeraga abaturage barimo babasobanuriraga guhabwa ubutabera ndetse no guharanira uburenganzira bwabo, byari byiza kuko hari harimo abayobozi benshi bagiye batandukanye babasha gusobanura neza kuri iyo ngingo. Ni byiza ko twegera abaturage bacu tukabasobanurira uburyo babasha guharanira uburenganzira bwabo ndetse n'uburyo babasha kubona ubutabera, bityo bakagabanya akarengane muri bo.

Abakora umwuga wo gutwara abagenzi kuri moto basobanura koari akazi keza koko kabatanze mu buzima bwabo bwa buri munsi, ni akazi kabohereza amafaranga ababeshaho bakabasha kubona ibyo kwambara, ibyogo kurya ndetse bakanizigama; ni byiza ko buri muntu wese agomba kwihangira akazi kugira ngo abashe kubona icyo akeneye mu buzima bw'iwe bwa buri munsi.

Abakoresha ibinyabiziga mu muhanda bizwi nk'imodoka, basobanura ko ari byiza gukorerwa imihanda kugira ngo babashe kugenda neza ndetse n'ibinyabiziga byabo bibashe kugira uburambe. Ni byiza rero ko tugomba gukora imihanda myinshi igiye itandukanye kugira ngo ibinyabiziga bibashe kugenda neza. Hirindwe n'impanuka za hato na hato ziterwa n'imihanda mibi idakoze neza.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuhinzi gishishikariza ababifite mu nshingano ko bagomba kwegera abaturage bakabereka uburyo bagomba guhinga ndetse n'ibihingwa bagomba guhinga kugira babashe kubona umusaruro uhagije mu byo bahinga byose, ni byiza rero ko twebwe abayobozi twegera abaturage kugira ngo tubashe kubaha inama zitandukanye ku bihingwa bigomba guhingwa ndetse n'ibyiza byabyo kugira ngo tubashe kubona umusaruro mwiza.

Mu byumba bikorerwamo inama ha barimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira inama ibashe kugenda neza. Twavuga nk'intebe abitabiriye inama bicaraho, indangururamajwi ikoreshwa kugira ngo buri umwe wese abashe kumva dore ko ari benshi. Ni byiza rero ko tugomba kongera ibikoresho bitandukanye kugira inama yacu ibashe kugenda neza.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe umutekano gisobanura ko ari byiza kwegera abaturage kugira ngo babashe gusobanukirwa ibibazo bimwe na bimwe bagiye bafite babashe kubibakemurira ni byiza rero ko twegera abaturage kugira ngo tubashe kumenya ibibazo byabo ndetse n'abafite amakosa tubahane twivuye inyuma kugira ngo batazongera ejo ejobundi bikaba intandaro yo kuvamo urupfu.

Mu byumba bikorerwamo inama haba harimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo inama ibashe kugenda neza. Twavuga nk'intebe abitabiriye inama bicaraho, indangururamajwi bakoresha kugira ngo babashe kumvikanisha ibyo barimo bavuga neza ndetse n'imfatashusho yifashishwa kugira ngo baze kwerekana ibyabaye n'abatahageze babashe gusobanukirwa ibyabaye. Ni byiza rero ko tugira ibikoresho bihagije kugira ngo tubashe koroganiza inama yacu neza.

Ni byiza ko dukora neza kugira tubashe guhabwa igikombe kizwi nk'igihembo gihambaye gihabwa umuntu wakoze neza kugirango ngo tubashe kucyegukana twese, turashishikarizwa gukora neza mu bintu ibyo ari byo byose tugomba gukora kugira ngo buri umwe wese abashe kuba yakwegukana icyo gihembo cyitwa igikombe.

Gukora imyitozo ngororamubiri ni ingenzi mu buzima bwacu, kuko biturinda kurwara indwara zitandukanye, ziterwa no kudakora imyitozo ngororamubiri ihagije. Ni byiza ko tugomba kugana ibibuga bitandukanye bikorerwaho imyitozo ngororamubiri, kugira ngo tubashe kugorora umubiri wacu maze bityo tubashe kugira ubuzima bwiza buzira umuze.

Gukora imyitozo ngororamubiri ni ingenzi mu buzima bwacu kuko bidufasha kwirinda indwara zitandukanye ziterwa no kudakora imyitozo ngororamubiri; ni byiza ko tugana ibibuga bitandukanye bikorerwaho imyitozo ngororamubiri no gushaka imikino igiye itandukanye twakina nk'imipira, kugira ngo imibiri yacu igombe igororoke neza.

Gukora imyitozo ngororamubiri ni ingenzi mu buzima bwacu kubera ko bidufasha kwirinda indwara zitandukanye ziterwa no kudakora imyitozo ngororamubiri, ni byiza ku buri umwe wese ashishikarizwa gukora imyitozo ngororamubiri kandi akagana ibibuga ndetse n'ibigo bitandukanye bikorerwamo imyitozo ngororamubiri kugira ngo abashe kugira ubuzima bwiza.

Gukora imyitozo ngororamubiri mu buzima bwacu ni ingenzi kandi kuko bidufasha kwirinda indwara zitandukanye ziterwa no kudakora imyitozo ngororamubiri, ni byiza ko dushishikariza abantu bose gukora imyitozo ngororamubiri, kugira ngo tubashe kugira ubuzima bwiza tunarinde indwara nyinshi zigiye zitandukanye, bityo ubuzima bwacu bumere neza.

Gukora imyitozo ngororamubiri mu buzima bwacu ni ingenzi kubera ko bidufasha kwirinda indwara zitandukanye ziterwa no kudakora imyitozo ngororamubiri ihagije, ni byiza ko tugomba kugana ibibuga byabugeniwe bikorerwaho imyitozo ngororamubiri kugira ngo tubashe gukora siporo zigiye zitandukanye zifasha umubiri wacu kugenda neza ndetse no kumererwa neza.

Gukora imyitozo ngororamubiri ni ingenzi mu buzima bwacu, kuko biturinda kurwara indwara zitandukanye ziterwa no kudakora imyitozo ngororamubiri, ni byiza ko tugana ibibuga byabugenewe ndetse tukanashaka imyitozo ngororamubiri igiye itandukanye dukora: nko gukina agapira, kwigorora kugira ngo ingingo zacu zibashe kugenda neza ndetse tunazirinda indwara zitandukanye.

Gukora imyitozo ngororamubiri ni ingenzi mu buzima bwacu kubera ko bidufasha kwirinda indwara zitandukanye ziterwa no kudakora imyitozo ngororamubiri, ni ingenzi ko tugomba kugana ibibuga byabugenewe kugira ngo tubashe gukorera yo imyitozo ngororamubiri igiye itandukanye bityo ubuzima bwacu tuburinde kujya mu kaga kandi dukomeze dusigasire amagara yacu dukora siporo.

Ni byiza ko urubyiruko rw'abakobwa rugomba kugana umukino w'umupira kubera ko ari ingenzi mu buzima bwabo, ni byiza rero ko tugomba gushishikariza buri mukobwa wese akagana umukino w'umupira w'amaguru ndetse n'uw'amaboko kugira ngo abashe guhabwa ibihembo bigiye bitandukanye bizwi nk'igikombe, cyegukanwa n'umuhanga mu bintu bigiye bitandukanye, bitewe n'ibyo yakoze.

Gukora imyitozo ngororamubiri ni ingenzi mu buzima bwacu, kubera ko bidufasha kwirinda indwara zimwe na zimwe ziterwa no kudakora imyitozo ngororamubiri, ni ingenzi rero ko tugomba kugana ibibuga byabugenewe bikorerwaho imyitozo ngororamubiri kugira ngo tubashe kugorora ingingo zacu bityo tubashe kugira ubuzima bwiza.

Gukora imyitozo ngororamubiri mu buzima bwacu dukina umupira ni ingenzi kuko bidufasha kwirinda indwara zitandukanye ziterwa no kudakora imyitozo ngororamubiri; ni byiza ko tugomba kugana ibibuga bitandukanye bikorerwaho imyitozo ngororamubiri, kugira ngo tubashe gusigasira ubuzima bwacu tubuvane mu kaga ko kurwara indwara zitandukanye.

Gukora imyitozo ngororamubiri mu buzima bwacu ni ingenzi kuko kuko bidufasha kwirinda indwara zimwe na zimwe zitandukanye ziterwa no kudakora imyitozo ngororamubiri, ni byiza ko tugomba kugana ibibuga bitandukanye ndetse n'ibyumba byabugenewe bikorerwamo siporo kugira ngo tubashe guharanira ubuzima bwacu.

Gukora imyitozo ngorora mubiri n'ingenzi kubera ko biturinda kurwara indwara zitandukanye ziterwa no kudakora imyitozo ngorora mubiri, ni byiza ko tuyikora kuko bidufasha kugorora ingingo zacu ndetse tukanirinda indwara zitandukanye ziterwa no kutayikora, n'ingenzi gushishikariza buri umwe wese akumva ko gukora siporo ari kimwe n'umuti we yandikiwe na muganga agomba kubikurikiza buri munsi.

Gukora imyitozo ngororamubiri ni ingenzi mu buzima bwacu kubera ko bidufasha kwirinda indwara zimwe na zimwe ziterwa no kudakora imyitozo ngororamubiri, ni byiza rero ko tugomba kugana ibibuga bikorerwaho imyitozo ngororamubiri kugira ngo tubashe kwirinda indwara zigiye zitandukanye ndetse n'umubiri wacu ubashe kugenda neza kubera gukora siporo zigiye zitandukanye.

Gukora isuku mu mihanda nyabagendwa ni ingenzi kubera kuko bituma abayigendamo batinubira umwanda uterwa no kuba hadakorwa isuku; ni byiza ko tugomba gukora isuku mu mihanda kugira ngo abayigendamo babashe kugenda neza ndetse n'abayigendamo babashe kuvuga ko isuku ari nziza mu mihanda.